Icyapa kiriho abantu babiri bari gusuzanya umugabo umwe akaba yambayeye kositimu, ishati irimo utudomo na karuvati, undi akaba yambaye umupira, afite imisatsi igwa inyuma.

Umuntu wicaye mu nyubako ifite ibirahuri n'imiryango ikaba ifunze, imbere hakaba hari ameza ateguyeho igitambaro cy'umweru cyandikishijeho amagambo ya Radiyanti, inyuma ye hakaba hari ururabo, imbere hakaba hari umuntu uhahagaze wunamye.

Icyapa kinini gishinze ahantu kiriho ifoto y'umuntu witwa Berna Jones, hakaba hariho ifoto y'igice yambaye ikote y'umukara n'ishati y'umweru, karavati irimo imirongo kikaba gishinze ahantu mu biti birebire.

Icyapa kiri mu mabara umuhondo, ubururu, icyatsi ndetse n'umweru, iki cyapa kikaba cyanitsemo amagambo hagati avuga yuko ibyo wakoze byakunze, hakaba harimo na vi.

Iduka ricuruza inkweto, izo nkweto zikaba zitandukanye, zikaba ari inkweto z'amabara umukara, umweru, umutuku, umuhondo zikaba zigiye ari inkweto zigerekeranyije, ziri mu ma etajeri zikaba ari nyinshi.

Umuntu wicaye uri mu iduka ryubakishije imbaho, akaba ari gucuruza ibicuruzwa bitandukanye harimo inyanya, amavuta, amajyane, umunyu, omo, isabune ndetse n'ibindi.

Umuntu uhagaze imbere y'iduka. Ibicuruzwa bikaba birimo ekuteri, hakaba harimo ibintu bitandukanye, harimo imyunyu, amaji, nido, amavuta yo kwisiga ndetse n'ibindi birungo byo guteka.

Inyubako irimo imyenda myinshi, hakaba harimo amakote, amashati, amasengeri, amapantaro, bikaba bigiye bimanitse kuri porutemanto.

Imodoka ifunguye igaragaza intebe ikaba intebe zifite umwenda w'ibara rya kaki hakurya har ikirahure hakaba n'ubustani z'ibyatsi indabo inzu yubakishije amatafari ahiye n'indi modoka ku ruhande.

Inyubako irimo imodoka ziri ku murongo hakaba hari ibyapa, imbere y'imodoka hakaba hari amezi ateretseho imashini, inyuma y'izi modoka hakaba hari ikindi cyapa cyanditseho hyundai.

Inyubako etaje, ifite ibirahuri kuva hasi kugeza hejuru, imodoka iparitse hanze mu mapave, abana babiri bafite icyapa, inyuma hakurya hakaba hari amazu hateyemo n'ibiti.

Imodoka isize irangi ry'umukara, mu umuhanda wa kaburimbo uteye ho ibiti, hakurya hakabari amazu ariho amapoto y'ibyuma, hejuru hakaba hari icyapa cy'icyatsi kibisi cyandikishijeho amagambo y'umweru, icy'umutuku cyandikishijeho amagambo y'umweru n'icyumweru cyandikishijeho amagambo y'umukara.

Imodoka ziparitse ahantu ku butaka, hakaba harimo n'utubuye dutoya, hakaba hari imodoka nyinshi zitandukanye ziparitse ku murongo, zimwe imbere izindi inyuma; hakurya hakaba hari amazu nayo ari ku murongo, hakaba n'izindi modoka ziri inyuma y'ayo mazu.

Imodoka ziparitse ahantu hamwe, hakaba hari amakwasiteri ane kandi yose asa, hejuru yayo hakaba ari ishyamba, ibitoki, urugo rwubakishije amabati n'inzu isize karabasasa y'umukara.

Inyubako yubakishije amabuye. Hakaba hariho inkingi. Ikaba ifite ibirahure. Mo imbere hakaba haparitsemo imodoka. Inyuma hakaba hari ipoto iriho insinga ebyiri. Hakaba hari ibyatsi bya pasuparume, hateyemo igeti.

Imodoka bafunguye imiryango yose, hakaba hari abantu bari ku miryango, iyo modoka ikaba irimo ururabo, inyuma yayo hakaba hari inyubako, ifite umuzenguko w'amatafari ahiye, inyuma y'uwo muzenguko aka hari indabyo kaba izindi modoka ndetse n'abandi bantu.

Ibiganza bifite amafaranga mu ntoki n'inote ya 50, hari imashini imbere y'uwo muntu akaba hari andi mafaranga ari mu mashini.

Abantu babiri umwe ahahagaze imbere muri banki, undi nawe ahagaze inyuma y'umuryango, hari imashini iri kubara amafaranga, umuntu umwe wambaye rinete ari kubara amafaranga akoresheje imashini, undi akaba afite umupira kurutugu.

Akajerekani karimo amata gateretse, hakaba hari umuntu uhagaze hirya wambaye imyenda y'ubururu, iyo nzu ikaba irimo sima, hakaba hari n'undi uhagaze mu muryango ukinguye, hakaba hari icyuma ku muryango.

Imiryango ukinguye usize irangi ry'umweru, akaba ari inyubako ndende ya etaje, kuruhande rw'uwo muryango hakaba hometseho amatafari ahiye, hakaba hariho icyapa ikaze dayare, n'imbere hakaba harimo icyuma cy'amata.

Imigati myinshi iri ku meza hakaba hirya yayo, hari agatambaro gatwikiriye. Ikaba ari imigati ya penkupe, hari ihagaze yegetse ku yindi itambitse.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi hakaba harimo ji, harimo inagi, hari icyapa cy'amata ya Mukamira, hakanba hari umukobwa washyize amaboko ku meza ufite inoti magana atanu mu ntoki, hakaba n' umugabo uhagaze imbere ye uri kubara amafaranga.

Urupapuro ruriho icyapa cy'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, hakaba hariho amagambo atandukanye, imibare itandukanye, ikirangantego kiriho agaseke ndetse n'ishaka hasi hakaba hariho ingabo.

Amafaranga atandukanye ari ahantu ku meza, harimo inoti ya magana atanu, iya bitanu n'iy'ijana; kuri izo noti hakaba hagiye handitseho amagambo, hari iz'umutuku, hari iza giri, hari n'iz'ubururu.

Amafaranga menshi ari ku meza, undi muntu akaba ayafite mu ntoki ari kuyabara, akaba agaragara ibiganza n'amaboko gusa, hakaba undi ugaragara igice, wambaye ishati yijimye na we wicaye hafi y'ayo meza.

Amafaranga menshi arunze ahantu hamwe, ayo mafaranga akaba agiye ari inote y'ijana, akaba agiye afungiye ahantu hamwe, afungisha agapapuro gafite ibara ry'umuhondo n'umweru.

Ibiganza bifite amafaranga mu ntoki, ayo mafaranga akaba ari ay'umuntu, hakaba handitseho yuko ayo mafaranga arayo muri indiya akaba ari amafaranga atandukanye, uwo muntu akaba yambaye amarinete.

Ibiganga bibiri bifite amafaranga mu ntoki, hari ikiganza gifite inote nyinshi za mirongo itanu, hari n'ikindi kiganza gifite inoti nyinshi z'ijana inote ya mirongo itanu iriho inzu inote y'ijana iriho ifoto y'umuntu.

Amafaranga menshi ari ahantu hamwe agerekeranye akaba ari amafaranga y'icumi akaba ariho ifoto y'umuntu wambaye rinete ugaragara igice hakaba harimo n'ibintu byanditse mu cyayi.

Ibiganza bibiri bifite amafaranga mu ntoki, akaba ari amafaranga menshi ariho ifoto y'umuntu, hakaba n'andi mafaranga arambitse ku meza nayo ariho ifoto y'umuntu, hakaba n'andi abantu bari guhobera.

Ibiganza bibiri bifite amafaranga menshi, ayo mafaranga akaba habanza aya magana atanu, hakaba hariho ifoto y'umuntu wambaye amarinete, akaba yanditseho amagambo y'Icyarabu.

Inyubako ikinguye mu muryango hakaba hahagazemo umuntu, hakaba hagiye hariho ibyapa bitandukanye, hashushanyijeho indege, handitseho amagambo y'uko bavunja, hariho n'ikindi cyapa kiriho amayetage.

Umuhanda wa kaburimbo ukasemo hagati y'imirongo y'imyeru ku ruhande hakaba ha kasemo imirongo y'iyeri n'umukara, inyubako etaje iriho icyapa kinini cyanditse ijambo riteganye n'umuntu hakaba hari imodoka, ndetse amatara n'indabo ku muhanda.

Inyubako imbere hubatsemo indi, umuryango ukaba ukinguye, hakaba hariho ibyapa bitandukanye, hakaba handitseho y'uko bavunja amafaranga.

Inzu ya etaje ifite inkingi zisize irangi, abantu bari kwinjira mu muryango uriho icyapa, imodoka ziparitse hanze, hakaba hari icyapa kiriho ngo'' kigali, kambara, bukavu''

Inyubako nini, ifite purafo irimo amatara, hakaba hahagaze umuntu mu imbere, abandi bakaba bari inyuma, hakaba hari imashini, ndetse n'ibitabo bigerekeranye.

Umuryango ukinguye, usize irangi ry'umweru, urimo ikirahure, hejuru hakaba hari icyapa kinini cyanditseho ngo dukomere, hirya yaho hakaba hari ikindi cyapa cya MTN,hejuru hakaba harimo umuntu.

Inyubako irimo intebe y'ameza akaba ateteje kandi ku ruhandekabaha utubati dukinze hakaba n'akandi kandakingageri zayo zikaba zikinze.

Inyubako ifite intebe, utubati, hari intebe zikozwe mu mbaho, hari izindi zikozwe mu misego, harimo inkingi isize irangi ry'ubururu, akabati gakoze mu mbaho, hakaba harimo n'ibindi bikoresho.

Inyubako irimo intebe zegeranye, hakaba harimo ameza manini n'utumeza dutoya, inyuma yaho hakaba hari imbaho, hari n'ibitambaro bakoresha intebe, hakaba ari ahantu bakorera intebe.

Ibyuma by'inkingi bishinze, imbere hari icyapa kinini, cyanditseho mu nyuguti nkuru zanditseho Mariyoti, hari ubusitani bw'indabo n'ibyatsi bya pasiparume, hakurya hari inyubako yitaje ndende, hari indabyo zihazengurutse.

Inyubako ya etaje, inyubako ikaba irimo intebe, ameza ndetse n'imitako, hakaba harimo parafo, isize irange ry'umweru, imiryango yayo ikaba ikinze.

Ibyatsi bya pasiparume, indabo zikikije pisine, imitaka irimo udutebe abantu bicararaho, hakurya hakaba hari ibyuma bihazengurutse.

Inyubako ndende ya etaje ikaba ifite ubusitani bw'indabo, impande zitandukanye hakaba hari utuzu twubakishije imitaka, hari intebe zo kwicaramo imbere y'iyo nyubako hakaba hari na pisine.

Inyubako ya etaje isize irange ry'umukara yanditseho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza, bafite pisine imbere yayo, hakurya hakaba hari amashyamba n'amazu hakaba hari ibitanda byo kuryamaho imbere ya pisine.

Ubusitani burimo pasipalumu, indabo, intebe ndetse n'ameza inyuma yaho hakaba hari pisine, ikaba izengurutsweho n'ibyuma ndetse n'indobo n'ibiti hakaba n'imitaka iriho intebe munsi.

Inyubako ya etaje, ikaba ifite imiryango ikinguye, ikaba igiye iriho ibyapa bitandukanye, ibiriho abantu ibyanditseho amagambo, hasi hakaba hacururizwa imyenda hakaba hari icyapa kigaragaza yuko bacuruza imyenda.

Inyubako irimo intebe z'umukara ziteganye, hagati hakaba harimo ameza maremare, iyi nzu ikaba ifite ibirahuri ariko bikinze, hakaba hariho icyapa cyanditseho Sanilamu imbere.

Inyubako ya etaje, iriho icyapa kiriho amabara y'umweru n'ubururu, cyanditseho Rwamagana hakaba hari abantu bahagaze mu muryango, bambaye imipira isa, bakaba bafite amashakoshi.

Abantu bicaye bari kureba muri mashini, umukobwa yambaye ishati y'umweru, amarinete, umuhungu yambaye umupira w'ivu, bose bakaba basetse, inyuma yabo hakaba hari indabo.

Abantu bicaye mu nyubako imwe. Iyi nyubako bakaba bateguye igitambaro cy'amabara y'umweru n'umutuku, hakaba hari uwunamye urigufotora impapuro ziri ku meza, amazi imbere ye, abandi bicaye imbere ye, uri kuri telefone, uhagaze uhetse igikapu ndetse n'abandi bari hirya ye.

Inyubako irimo abantu bamwe bakaba bahagaze inyuma y'imbaho zisize irange ry'icyatsi undi yica imbere, hari uri kumuhereza amafaranga, undi nawe akaba ari guhereza uwambaye imyenda y'umukara arimo ahereza uwambaye ikositimu y'umweru.

Inyubako ikorerwamo ubucuruzi, hakaba hari umuntu wicaye wambaye ijire, hakaba n'undi wicaye ahantu hatandukanye, hakaba hari imyenda imanitse hejuru, harimo amakanzu hakaba n'umugabo ugaragara akaboko, uhagaze.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, imineke, imyembe, ibinyomoro, amatunda, watomeroni, ibitoki bimanitse hejuru, umuntu wicaye hasi, abandi bahagaze.

Isoko ricuruza imboga n'imbuto hakaba hari umumama wicaye uteruye umwana, hakaba hari ibitunguru n'inyanya, pavuro, tungurusumu ndetse n'ibindi birungo bitandukanye, hakaba hari abantu benshi bari muri iryo soko.

Abantu bari gucuruza inyanya, intoryi, itsenda, ibitunguru. Bakaba bari ahantu mu kibuga, hakaba ari umuntu uteruye akabase k'inyanya. hakaba hari n'abandi bafite anverope, udufuka, hakaba hari nabandi bari kudoda, hakaba hari n'imifuka iteretse hasi.

Abantu benshi bari abantu mu isoko bakaba bafite imitaka myinshi yiganjemo akaba ari imihodo akaba abariana kugurisha nyuma y'abafa amazu yubatse kimwekaba ari n'ikoto ari mu mijyana zitandukanye.

Isoko ryubakishije amabati, risakaje amabati, hakaba hariho ibiti byanitse imyenda, abantu bari kugenda, abari kugura, bari gucuruza ibikapu, ndetse n'ibindi byinshi.

Inyubako ya etaje ifiteho icyapa kiri mu ibara ry'umuhondo n'amagambo y'ubururu, ibiti biri imbere yayo binini, hakaba hari imodoka ziparitse hafi y'inyubako, hakurya hakaba hari iyindi nyubako.

Udutebo dutandukanye ndetse n'amabase, agatebo karimo inyanya, akandi kabase karimo imineke, ibiishyimbo biri mu mufuka ndetse hakaba n'amashaza ari mu ibase, umuntu akaba agaragara ibiganza ari gutunga urutoki hasi hakaba hari n'ibinyomoro.

isoko bacururizamo imboga n'imbuto, hakaba higanjemo imineke, inanasi, pome, ibinyomoro hejuru hakaba hamanitaseho udufuka, hakaba hari abantu bari gucuruza bambaye itaburiya umuntu wunamye ari guhaha ndetse n'abandi bari guhaha imineke.

Inyubako ya etaje, ikaba izengurutsweho n'urugo rusize irange ry'ivu, hakaba hari abantu benshi bikoreye bigaragara yuko hari isoko, abikoreye amabase, abikoreye ibitebo, abikoreye imifuka ndetse hakamo harimo n'abantu bafite amagare.

Icyapa cy'umuhondo cy,andikishije amagambo y'umukara hakaba harimo n'ibara ry'umweru hari amagambo yanditsemo akaba ari imibare ya nditsemo bakaba bavuga ngo ishyura na momopey hasi bakavuga ngo nta yandi mafaranga yishyuzwa.

Umuntu wunamye, uri ku meza, hakaba hari intebe z'umukara, hakaba hari ameza ariho igitambaro cy'umuhondo, cyanditseho emutiyeni, ingofero zanditseho emutiyeni, undi mugabo uhagaze wambaye ishati ya karokaro.

Abantu babiri bahagaze, umwe yambaye umupira w'umuhondo, undi yambaye umupira w'icyatsi bahagaze imbere y'akazi ka MTN, gafite ibara ry'umuhondo, umwe akaba afite telefone ntoki yambaye n'akagofero k'abasiramu.

Akazu kariho amabara y'umuhondo ka MTN, mo imbere hicayemo umuntu, inyuma hari abandi bantu bahagaze, hari umugabo wambaye umupira w'umukara, uriho amabara y'umweru, ndetse abapolisi, inyuma yako hakaba hari indabo zihateye.

Kaburemba umuntu ufite igare akaba ahetse ibage mu mugongo akaba ari imbere y'urugi rukinze hakaba hari inkingi yubakishije amatafari ahiye hakaba hariho indabo ndetse hakaba hari na pasiparumu ziri imbere ye.

Moto iparitseho agarito gafite irangi y'ubururu, umuntu uri kuzamuka ama esikariye, inzu isize irangi ry'ivu n'umutuku, umuryango ukinguye umuntu wambaye ijire ya emutiyene.

Abamotari bafite moto ziza bakaba baparitse ku murongo, imbere yabo hakaba hari inzu, igipangu gifite irangi ry'umuhondo, imbere hakaba harimo jaride, bakaba baparitse mu muhanda wa kaburimbo, inyuma yabo hakaba hari rigori ipfukishijeho ibyuma.

Inyubako ya etaje imbere yayo hakaba hari imodoka, hakaba hateye ururabo n'inyubako iri hirya yayo yubakishije amatafari ahiye, harimo n'ikigega gifite irangi ry'umukara.

Inyubako zishoreranye zifatanye, zikaba zifite igipangu gifite urugi rusize irange ry'umukara ndetse kikaba gisize irange ry'umweru na giri yijimye, kiba gifite amabati y'umutuku n'ay'umukara.

Inyubako mo imbere ifite itapi, ifiteho amabara abiri, hakaba hari amarido yegeranye, amadirishya akaba akinze, inyubaka ikaba isize amabara akeye.

Inyubako irimo intebe, ameza, itapi, amarido, amadirishya n'inzugi zayo zikaba zifunze, hakaba harimo imitako, iyi nyubako ikaba isizemo amarangi abiri, irangi ry'umweru, parafo ikaba ikozwe n'irangi ry'umukara n'umweru.

Inyubako zubatse kimwe zifatanye, imbere yaho hakaba hashashemo amatafari ya sima, hirya yaho hakaba hari ubusitani bw'indabo, hasi hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, imbere yaho hakaba hari umuryango ukinze.

Inzu ifite ubwoko bw'indabo butandukanye buteye inyuma yazo, izo ndabyo zikaba zigiye ziri mu bikombe byazo, inzu ikaba isize amarangi, ifite korutire y'ibyuma, hanze hakaba hari ama boroke sima, hapavomye.

Inyubako ya etaje ikaba igiye iriho indabo zitandukanye, hakuno no hirya yayo hakaba hari izindi nyubako, ikaba isize amarange atandukanye.

Inyubako ya etaje ikorerwamo ubucuruzi butandukanye, hari aho bacuruza imyenda, hari aho abandi bantu bicaye, imodoka ziri imbere yayo ziparitse, hejuru hakaba hari indabo n'umuntu ahahagaze.

Inyubako icururizwamo imigati, amandazi, amakeke, amabiswi hakaba harimo abakobwa babiri bose bambaye udupfukamuwa, uwambaye umupira w'umweru n'uwambaye umwenda urimo amabara y'umutuku.

Inyubako ndende ya etaje, hasi hakaba hari ahantu bacuruza imyenda, hakaba hari muhanda wa kabiririmbo ugaragara igice, hakaba hari igiti kirekire, hari abantu bari kugenda, hakaba hari abandi bahagaze imbere y'iyo nyubako.

Iduka ririmo ibicuruzwa bitandukanye harimo amaji, amashokora, amabombo ndetse n'inzoka z'amoko atandukanye harimo amafoto y'abana bicaye, hari abantu bahagaze bari guhaha hakaba n'abandi bicayemo imbere.

Iduka rinini harimo abantu bakora ubucuruzi bitandukanye, hagati hakaba arimo inkingi y'icyuma, hakaba hari abantu bahagaze impande zitandukanye, abari guhaha, ameza adakoje ho igitambaro cy'imutuku, undi muntu ufite telefoni.

Umuntu wicaye, hari umugozi w'umweru uri guca ku rutugu rwe yambaye umupira w'umukara, hakaba hari amakanzu ari inyuma ye, amakanzu y'amabara atandukanye ubururu, umutuku, n'andi mabara avanze.

Icyapa kiriho abantu batandukanye, hakaba hariho abamama, abateze ibitambaro, abasokoje umusatsi mukeya, uteruye umwana, hakaba handitseho ijambo mituweli.

Ijambo riri mu nyuguti nini z'ubururu n'icyatsi handitseho ejo heza, hejuru hakaba hari izuba, hasi haba handikira andi magambo.

Abantu baganaze ahantu hamwe, hakaba hari inyubako zifatanye, hakurya hakaba hari izindi ku muhanda, hakaba n' icyapa cyanditseho Ejo heza, hakaba hari ibiti hari kugaragaramo n'ibice by'umweru n'ubururu.

Icyapa kiriho ibara ry'ubururu n'ibara ry'umweru, harimo izina ry'igice cyanditseho ngo reba imisanzu yawe, iki cyapa kikaba kiri mu kiziga, kikaba ari icy'ikigo cy'igihugu gishinze ubwiteganyirize.

Inyubako irimo ibicuruzwa bitandukanye, hakaba harimo ama ji, za nido, amata, karimo ka etajeri nini cyane, kagiye gapanzemo buri kintu ukwacyo, buri kintu ukwacyo, kuva hasi kugera hejuru.

Iduka ricuruza ibintu bitandukanye hakaba harimo abantu bambaye imyenda isa. Hakaba hari uri kwereka undi ku munzani haba harimo amaji, amabombo, shokora amafanta imigati ndetse n'ibyo kurya.

Inyubako nini icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye hari utu etajeri tugiye dupanzemo ibintu hakaba hari kayitaje hejuru k'ibirahure n'ikirugo cya noheri kiradekoye.